Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, bari mu muhanda nyabagendwa, imbere y'urupangu rwiza cyane ruzengurutse inyubako y'ibitaro bya Ruhengeri, nkuko icyapa tureba hano kiri kubisobanura.

Ibyatsi birandaranda byameze mu mabuye y'amakoro, ibyatsi bishobora kwifashishwa nk'ubwatsi bw'amatungo. Ni ibyatsi bishobora no kwifashishwa nk'umuti gakondo wa kinyarwanda, biteye mu gitari. Aho turi kubonamo n' intusi za nyiramweru.

Icyatsi cyo mu bwoko bw'umutako cyiza cyane, ni icyatsi cyubaka urugo rukazitirwa neza, rukaba rucinyiye, kirasa neza gifite isuku, kandi gitanga umwuka mwiza aho kiri ku ruzitiro.

Ubwatsi bw'amatungo bwameze ahantu mu murima urimo amakoro. Ubwatsi bwiza cyane bwitwa urubingo. Amatungo arabukunda bufasha amatungo gukura neza akumva ameze neza.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo igiti cy'ururabo harimo n'utwatsi twiza dutuma abari muri iki kigo bahumeka umwuka mwiza.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ikigori harimo n'ibyatsi bishobora kwifashishwa mu miti ya kinyarwanda, ni umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, uyu murima uri iruhande rw'urugo rufite inzu ifite umuryango ukinguye.

Ibyatsi byiza bisa neza, bikoze uruvange rw'indabo ndetse n'imiti ya kinyarwanda, biri hafi y'umurima usaruwemo ibigori. Ibyatsi rero bishobora gukoreshwa nk'indabo, cyangwa se bigakoreshwa nk'umuti uvura indwara zitandukanye.

Umurima wamaze gusarurwamo imyaka, ibishyimbo n'ibigori. Ubungubu ntabwo uhinze, utegereje kuzahingwa mu minsi iri imbere. Harimo urugemwe rwiza rw'igiti bita ikibonobono.

Umurima uteyemo ibyatsi by'amoko menshi atandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo, bwa kinyarwanda. Ni ibyatsi bitoshye, bimeze neza, bikoreshwa, hashakwa imiti ya kinyarwanda.

Icyatsi kimeze neza gitoshye, giteye ahantu mu gacaca, icyatsi cyitwa Urudega gishobora kwifashishwa nk'umuti gakondo, cyangwa se kikanifashishwa nk'ibiribwa cy'imboga.

Ibyatsi byiza bisa neza cyane bifite n'indabo z'umutuku, iki ni icyatsi ushobora gutera ku ruzitiro kigakura, giteye mu makoro ariko kimeze neza, aho kiri urabona ko hafite isuku kandi hasa neza.